Icyapa cyamamaza ndetse gikangurira abaturage kuyoboka serivisi z'ubwishingizi kuko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho basho guhu n'ibiho bitandukanye haba mu bikorwa by'abakora by'ubuhinzi, ubworozi, ingendo se, bityo bakaba bakangurirwa kwizigamira kugira ngo igihe bahuye n'impanuka bazagobokwe n'ibigo by'imari bitanga serivisi z'ubwishingizi.

Ubukangurambaga bwateguwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda cya Radiant, aho bwakanguriraga abaturage cyane cyane abakora umurimo w'ubuhinzi n'ubworozi gufata ubwishingizi bw'amatungo yabo, kuko ibiza biza bitateguje.

Ubukangurambaga bwari bwakozwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya radiyantiaho bwakanguriraraga abaturarwanda ko inzu zabo ari ibishoro, bityo bagomba kuzishinganishiriza mu gihe zatewe n'inkongi bakaba bashumbushwa bitewe n'ubwishingizi batanze muri iki kigo.

Icyapa cyamamaza ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya buritamu, aho gitanga serivisi zitandukanye harimo nk'ubwishingizi ku binyabiziga, ubwishingizi ku buzima n'izindi zitandukanye.

Ubukangurambaga bwakozwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda cya Radiyanti. Aho cyakanguriraga abaturage, kibabwira ko atari ngombwa ko bategereza kujyanwa mu bitaro kugira ngo bafate ubwishingizi ahubwo bakabaye babufata mbere hanyuma bukazabagoboka igihe bahuye n'iki kibazo cy'uburwayi.

Icyapa cyamamaza ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya sanlamu, serivisi icy'ikigo gitanga harimo ubwishingizi ku buzima, ubwishingizi ku mazu, ubwishingizi ku nkongimiriro ndetse n'ibindi.

Apulikasiyo yashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya Ekwiti banki, aho umukiriya abona zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo bidasabye ko akora urugendo ajya kumu ejenti cyangwa aho ikigo gikorera, ahubwo byose akabikora yifashishije mudasobwa cyangwa telefoni ngendanwa.

Apulikasiyo yashyizweho na kimwe mu bigo bitanga serivisi z'imari mu rwego rwo korohereza abakiriya barwo, kubona serivisi batanga bidasabye ko bajya ku bigo nyirizina aho bikorera, ahubwo bakazibona bifashishije mudasobwa cyangwa telefoni ngendanwa bakaka ndetse bakanahabwa serivisi badakoze urugendo.

Apurikasiyo y'imwe mu mabanki, aho umuntu ashobora gukora ibikorwa bitandukanye bidasabye ko ajya kuri banki nko kwakira amafaranga ndetse no kuyohererezanya ndetse no kureba ibyakozwe mu gihe runaka bitamusabye kujya kuri banki.

Apurikasiyo ya banki ya kigali ikoreshwa n'abakiriya mu gihe bakeneye serivisi zimwe na zimwe bitasabye ko bajya gutonda umurongo kuri banki cyangwa bagikoresha indi serivisi babona kuri uru rubuga rwa banki harimo nko kureba amafaranga usigaranye kureba abowamaze koherereza amafaranga ndetse no kureba ibyakozwe ukoresheje iya apurikasiyo.

Application yashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya Equity Bank Rwanda, aho umukiriya abona serivisi zitandukanye zitangwa n'iki kigo bidasabye ko ajya aho iki kigo gikorera, ahubwo byose akabikora yifashishije iyi application; akoresheje mudasobwa cyangwa telefone ngendanwa.

Apurikasiyo y'ikigo gitanga serivisi z'imari cya enisibi eyi, aho umuntu ashobora kubona serivisi zimwe na zimwe zitangwa ni iki kigo bitamusabye gukora urugendo ngo ajya kuzaka aho gikorera ahubwo agakoresha iyi apurikasiyo gusa.

Apurikasiyo ya kimwe mu bigo bitanga serivisi z'imari mu Rwanda yashyiriweho abakiriya kugira ngo yororoshye imitangire ya serivisi, aho umukiriya ashobora gukoresha iyi apurikasiyo yaka zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo bidasabye ko ajya aho gikorera, ahubwo akabikora yifashishije terefoni ngendanwa cyangwa mudasobwa akabona izi serivisi.

Apulikasiyo ya kimwe mu bigo bitanga serivisi z'imari mu Rwanda, aho umukiriya yoroherejwe kubona serivisi zimwe na zimwe zitangwa n'ikigo cy'imari binyuze kuri uru rubuga ndetse bidasabye ko ajya no kuwundi muntu uwo ari we wese, ahubwo agakoresha mudasobwa cyangwa telefoni ye ngendanwa yaka zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo.

Apurikasiyo y'ikigo cy'imari cya Bank of Africa, y'uwitwa Rodriguez Muvunyi, aho yoroshya mu kubona serivisi bidasabye ko ujya kuri banki, harimo nko kohereza amafaranga, kugura ama inite, kohereza amafaranga ku yindi banki, n'izindi serivisi zitandukanye, zitangwa n'iyi banki.

Rimwe mu maguriro y'imyenda ndetse n'inkweto agezwe mu mujyi wa Kigali aho haba hari ubwoko butandukanye bw'inkweto ndetse n'imyenda umukiriya azi akihitiramo ibimunogeye bijyanye n'imyambarire cyangwa se uko angana bitamugoye.

Ubucuruzi ni kimwe mu bigaragaza iterambere ry'agace runaka aho usanga abakora umwuga bakomeje kwiyongera, bityo bagatera imbere ndetse bagateza n'imbere igihugu muri rusange cyane cyane ubucuruzi bw'imyenda igezweho, inkweto, amasakoshi, n'ibindi.

Iguriro ricururizwamo bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye aho umuntu ashobora kuguramo telefone, imikufi ndetse n'ibindi bitandukanye bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, haba ibimurimbisha cyangwa se ibimufasha mu kazi ke ndetse n'imibereho bya buri munsi.

Iduka ricururizwamo imitako ndetse n'imirimbisho byo ku mubiri ndetse n'iyo ku maboko izwi nk'amasaro, urunigi cyangwa n'ibindi byose bifite aho bihuriye n'umuco nyarwanda, cyane cyane hibandwa mu gusigasira umuco na gakondo by'umuco nyarwanda.

Ubucuruzi buciriritse ni kimwe mu byihutisha iterambere yaba iry'ababikora cyangwa se n'iry'igihugu muri rusange, binyuze mu misoro batanga ndetse bakanafasha abaturage kubona serivisi no kubona ibicuruzwa biboroheye, ibi kandi ni ingenzi kuko byoroshya ubuzima bwa buri munsi, aho ukeneye ibintu abibona bitamugoye.

Iguriro ricuruza imyambaro cyane cyane iy'abadamu aho umuntu aza akagura ndetse akigera imyenda, agahitamo kwishyura hakoreshejwe uburyo butandukanye, haba ubwo kwishyura mu ntoki cyangwa se kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga bityo bikorohera ugura ndetse n'ugurisha kwekisicenja ibicuruzwa.

Ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ibindi bikoresho hifashishijwe ikoranabuhanga, aho umucuruzi afotora imyambaro akayishyira ku mbuga ze nkoranyambaga noneho abakiriya bayishima bakayigura akayiboherereza, bidasabye ko bakora urugendo ngo bamusange ahakorera.

Ubucuruzi ni kimwe mu bikorwa bizamura iterambere ry'ubikora ndetse n'iry'igihugu binyuze mu gutanga imisoro, ibi kandi bikorohereza abakene ibicuruzwa kuba babibona hafi yabo bitabagoye, bimwe mu bicuruzwa harimo nk'inkweto, imyenda, amashati, ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho byo ku meza n'ibindi bitandukanye.

Ubucuruzi bwifashishije ikoranabuhanga ni kimwe mu nzego zirimo kuzamuka cyane kandi zinazamura ubukungu muri iyi myaka, aho umucuruzi ashyira ibicuruzwa ku mbuga nkoranyambaga ze, hanyuma abamukurikira babishima bakabyishyura, akabiboherereza aho bari, badakoze urugendo, bikabageraho mu gihe kandi gitoya.

Kompanyi itanga serivisi zo kugeza mu Rwanda ibinyabiziga, cyane cyane ama modoka, iyakuye mu bihugu by'i Burayi, iyazana inaha mu Rwanda, iyi ngiyi yari Toyota Rav4 hybrid ya bibiri na cumi na karindwi, aho yari izaniwe umukiriya ikabanza kunyuzwa kuri sitasiyo ya esansi kugira ngo ibashe kunywa igitoro.

Imodoka z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa, zifashishwa mu kwimura imfungwa cyangwa mu gutwara ibintu bimwe na bimwe babikura ku igororero rimwe babijyana kuri rindi, bitabagoye hifashishijwe imihanda ikoreshwa ku butaka mu buryo busanzwe.

Kompanyi itanga serivisi z'ubucuruzi bw'imodoka igukura mu bihugu by'i Burayi izizana ino aha muri Afurika, aho umukiriya avugana n'abakora muri iyi kampanyi, akabasobanurira ubwoko bw'imodoka ashaka, hanyuma bakazayimuzanira ino aha mu Rwanda bidasabye ko yigirayo, ahubwo bakamusanga mu Rwanda akishyura ibisabwa byose akayihabwa.

Akagera motors ni kampani itanga serivisi zo gucuruza imodoka ndetse no kuzikanika kampani itanga serivisi ku bakeneye kugura ibinyabiziga haba ibyo bafite muri sitoke cyangwa kubitumiza mu mahanga ukishyura amafaranga make bakagutumiriza ikinyabiziga andi ukazayishyura ikinyabiziga cyakugezeho.

Sosiyete itanga serivisi z'ubucuruzi bw'imodoka izwi nka kigali cars market iyi sosiyete serivisi itanga harimo kuba umuntu ukeneye gukodesha imodoka yayibona ndetse n'uyigura akaba yayibona iyi ni suzuki siyazi y'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aho bari barimo bayigurisha miliyoni cumi n'umunani gusa za mafaranga y'u Rwanda.

Imodoka yo mu bwoko bwa jipe yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, iyi modoka ikaba iri kugurishwa miliyoni mirongo itandatu n'eshanu ku muntuntu ukeneye kuyitunga ni imodoka nziza cyane kuko ifite ubushobozi bwo kugenda mu mihandagose hafi y'imisozi ndetse itunganijwe neza.

Ikigo gikora serivisi z'ubucuruzi bw'imodoka ndetse no gucuruza ibice by'imodoka bizisana mu gihe cyangiritse kizwi nk'Akagera bisinesi gurupe, iki ikigo kandi gitanga serivisi ku bashaka kugura ibinyabiziga bishyashya ariko bitari muri iki kigo bakaba bakwishyura amafaranga make, bakabibatumiriza andi bakazayishyura byabagezeho.

Amafaranga ni kimwe mu bintu nkenerwa mu buzima bwa buri munsi, kuko adufasha guhaha ndetse no kugura ibyo dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko kandi si byiza kuyakoresha kuko akwirakwiza indwara, ndetse ashobora no kuba yatakara ku buryo bworoshye, ni yo mpamvu abantu bakangurirwa kugerageza gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, nka kimwe mu bisubizo ku bibazo byose byaterwa no gukoresha amafaranga afatika mu ntoki.

Ahatangirwa serivisi z'imari aho umuntu ashobora kubitsa amafaranga, kuyabikuza se cyangwa kuyavunjisha mu gihe yari afite mu manyamahanga bityo akabona serivisi zimunogeye kandi vuba.

Amafaranga ni kimwe mu byo dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo twishyure, duhahe, dutege cyangwa se dukore ibikorwa bitandukanye, gusa kuri ubu si ngombwa ko amafaranga uba uyafite mu ntoki, ahubwo ushobora kuyatwara mu buryo bw'ikoranabuhanga, nko kuri telefoni, ikarita ya banki n'ahandi.

Icyapa kigaragaza umuryango ukorerwamo na ikaze dayari aho bongera umusaruro ibikomoka ku bworozi cyane cyane amata, bayakoramo foromaje, amaji, amayawurute n'ibindi bitandukanye kugira ngo byongererwe agaciro kandi bibashe kubikwa igihe kirekire.

Ikusanyirizo ry'amata, aho umuturage azana amata yiwe ku ikusanyirizo hanyuma akongererwa agaciro ndetse akagurirwa umusaruro we bitamugoye ndetse n'ushaka kuwugura akaba yayasanga aha ngaha ku giciro cyiza ndetse yanatunganyijwe, yanasukuwe, yakuwemo imyanda yose.

Amapikipiki yifashishwa mu koroshya ingendo ndetse n'ubuhahirane, hagati y'uduce na tumwe n'utundi, aho nk'iya yarifashije umuhinzi gukemura amata ku ikusanyirizo kugira ngo atunganywe, hanyuma amaze gucuruzwa mu bipimo ndetse ku giciro cyiza yamaze gutunganywa neza.

Yawurute yakozwe n'uruganda rwa Mukamira dairy ltd, ikaba ikozwe mu mata ndetse n'inyeri. Iyi yawurute kandi ikaba ifite uburemere bw'amagarama magana abiri na mirongo itanu, aho bikururira buri wese kuyigura kuko iri ku giciro cyiza kandi ikaba yujuje ubuziranenge.

Inyubako yagenewe gukorerwamo n'ikusanyirizo ry'amata, aho ibikomoka ku matungo cyane cyane amata akusanyirizwa agatunganywa bityo agapakingwa mu byiciro bitandukanye, kugira ngo abashe kugera ku isoko yujuje ubuziranenge ndetse afite n'isuku ihagije.

Inzu igurishirizwamo ibikomoka ku mata, aho kandi inabikusanya ibikuye ku borozi, imashini zigatunganya amata yazanywe noneho agakoreshwa mu gukora ibikomoka ku mata bitandukanye nk'amaforomaje, ikivubuto n'ibindi.

Iguriro rya royo fuleshi miliki porodagiti, aho ricuruza ibikomoka ku matungo cyane cyane amata, yawurute, foromaje n'ibindi bikomoka ku matungo.

Ahacururizwa ibyo kurya bitunganyijwe ku buryo umuntu ahita abirya ako kanya cyane cyane nk'ibyihuta, aha tuhasanga amata, icyayi , y'igikoma, imitobe, imigati ndetse n'ibindi bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha mu gihe ari ku rugendo cyangwa yihuta adafite umwanya wo kujya gutegereza guteka ibiryo.

Uruganda rwagenewe gukusanya umusaruro w'ibikomoka ku bworozi cyane cyane amata ndetse no kuyongerera agaciro abyazwamo ibindi bicuruzwa bitandukanye bikenerwa ku isoko ry'u Rwanda ndetse n'isoko mpuzamahanga ndetse bikongerera agaciro uyu musaruro.

Ikigo cy'imari cya SPN Rwanda gitanga serivisi zitandukanye, harimo nko gufasha Abanyarwanda kwizigamira, kwishyura ibikoresho, gutanga inguzanyo, ndetse n'izindi serivisi zitandukanye hifashishijwe ikoranabuhanga.

Urubuga rw'ikigo gitanga serivise z'imari, cya COPEDU PLC, aho umukiriya ashobora kubona serivisi, bidasabye kujya gutonda umurongo, aho iki kigo gikorera, ahubwo akoresha telefone ye cyangwa mudasobwa, mu kwaka zimwe muri serivise zitangwa n'iki kigo, atavuye aho ari.

Imwe muri serivisi itangwa n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho cya emutiyeni aho harimo kohereza, kwakira ndetse no kubitsa amafaranga binyuze kuri iyi kompanyi. Iyi foto igaragaza umuntu wari ubikije amashiriningi ibihumbi magana atanu by'amashingiringi akoreshwa mu gihugu cya Uganda.

Serivisi itangwa n'ikigo cy'itumanaho cya MTN Rwanda, aho umuntu agura ipaki ya interinete bitamusabye kuva aho ari ahubwo agakoresha ubwizigame bwe afite kuri telefone, agura iyo paki ya interinete.

Sosiyete itanga serivisi z'imari izwi nka Sipeni Rwanda, zimwe muri serivisi zitangwa n'iyi sosiyete harimo nko kuba yafasha abantu kohererezanya amafaranga, kwishyura ibicuruzwa bimwe na bimwe ndetse no gutanga inguzanyo bidasabye ko umuntu atanga ingwate, ahubwo byose bigakorerwa kuri mudasobwa cyangwa telefoni ngendanwa.

ikigo gitanga serivisi z'imari zitandukanye cya spde rwanda aho gitanga serivisi zirimo nko gufasha kohezanya amafaranga ku buntu gutanga inguzanyo kugura minneti yo kwishyura ama fagitire n'ib bitandukanye ibi byose ukaba wabikora wifashishije telefoni cyangwa mudasobwa yawe bidasabye kujya gushaka serivisi buri iki kigo gikorera

Kwishyura serivisi cyangwa ibicuruzwa hifashishijwe ikoranabuhanga, ni bumwe mu buryo buri gutera imbere kandi bushishikarizwa abantu muri iyi minsi kuko bigabanya ibyago byo kuba wakwibwa cyangwa wakwamburwa amafaranga. Ibi kandi bikaba bishyirwamo imbaraga kugira ngo buri munyarwanda wese yimakaze gahunda yo kutagendana amafaranga, bityo byongera umutekano we n'abiwe.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwashyizweho n'ikigo cya MTN Rwanda mu rwego rwo gufasha abakiriya barwo kubona serivisi zimwe na zimwe zitangwa n'iki kigo bifashishije mudasobwa cyangwa terefone ngendanwa, aho bashobora nko kohereza amafaranga, kwaka inguzanyo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ikigo cya Spenn Rwanda gitanga serivisi z'imari zitandukanye harimo nko kwizigamira, gutanga inguzanyo, kugura amayinite, kwishyura umuriro n'ibindi bitandukanye, mudasabye ko umukiriya ajya kuri icyo kigo ahubwo yifashishije telefone ye ngendanwa.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu rwego ruri kuzamuka ku muvuduko mwinshi cyane mu Rwanda. Aho bikangurira buri banyarwanda bose kugerageza gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwishyura, kugura, ndetse no gucuruza ibintu bitandukanye, himakazwa umuco wo kudakoresha amafaranga kuko uzanamo ingaruka nyinshi, harimo nko kuyibwa, kuyatakaza ndetse no kuba yakwirakwiza indwara zandura.

Inyemezabwishyu y'ikoranabuhanga yahawe umukiriya wahashye ibikoresho yishyuye akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, aho rigaragaza umubare w'amafaranga yishyuye, igihe yayishyuriye ndetse n'ingano y'ibyo yahashye.

Ahatangirwa serivisi zo kuri murandasi aho kohereza amafaranga uva mu gihugu kimwemyohereza mu cyoroshye hifashishijwe iyi serivisi ya moneygram, nk' bigaragara aho umukiriya yari yohererereje amafaranga uwitwa zimerala peta amuha amagare dtara abiri akaza kuyakira amafaranga y'igihugu cyabo bitamugoye.

Ikoranabuhanga ni rimwe mu rwego rwihutisha iterambere ndetse n'imibereho myiza y'umuturage ahubwo bitakiri ngombwa kujya kwaka serivisi mu kigo runaka ahubwo byose bigakorwa hifashashi ikoranabuhanga ibingibi kandi ningenzi cyane kuko bigabanya amafaranga y'ingendo batakaraga mu gihe abantu bajya gushaka serivisi ndetse n'umwanya bamara ba izo serivisi ahubwo byose bigakemurwa hifashishije telefoni ngendanwa cyangwa se mudasobwa.

Ikigo gitanga serivisi z'imari binyuze mu ikoranabuhanga, aho umuntu ashobora kwizigamira, guhabwa inguzanyo, kwishyura amazi, kwishyura umuriro ndetse n'ibindi bitandukanye bitamusabye kuva aho ari.

Ikigo gitanga serivisi z'ishoramari ndetse n'imari hifashishijwe ikoranabuhanga cya sp rwanda aho umuntu ashobora kwishyura ibicuruzwa bitandukanye harimo kugurabuoma ya televiziyo n'ibindi hifashishijwe iki kigo bidasabye ko umuntu akora urugendo ajya kwishyurazo serivisi.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'Ikigo k'igihugu gishinzwe Imisoro n'Amahoro igaragaza ko, Murora Rose yamaze kwishyura umusoro yagombaga kwishyura, ku itariki mirongo itatu nimwe z'ukwa Cumi n'abiri bibiri nacumi na gatanu.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'Ikigo k'Igihugu cy'umusoro n'amahoro kigaragaza y'uko ikigo cya Trafftiment Rwanda Ltd cyishyuye amahoro y'isuku y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ndetse kikayishyura neza ndetse mu gihe.

Icyemezo cy'ubutaka kigaragaza ufite uburenganzira ku mutungo utimukanwa w'ubutaka, ndetse cyateweho kashi na noteri bigaragaza ko cyemewe n'amategeko y'u Rwanda.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo k'igihugu k'imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti igaragaza ko Hendriy RUTAGANZWA yishyuye umusoro ku mutungo utimukanwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kandi akawishyura neza.

Urupapuro rwatanzwe n'ikigo cy'imari cya banki ya Kigali, rugaragaza ibikorwa bitandukanye byakorewe kuri konti ya Select Express Agency limited, ifite muri icyo kigo cy'imari.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'Ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority, igaragaza ko kompanyi ya Prime Insurance yishyuye amahoro y'isuku y'ukwezi kwa Cumi, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kandi ikayishyurira ku gihe.

Icyangombwa gitangwa n'ikigo cy'igihugu gitsura amajyambere rdb, kigaragaza ko bizinesi runaka yanditse bikurikijwe amategeko agenga imikorere ya bizinesi mu Rwanda.

Icyemezo cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro gihawe sosiyete ya micuwe inshuwalensi Rwanda limitedi, aho cyagaragazaga ko iyi kompanyi nta mwenda w'imisoro ibereyemo iki kigo.

Amadevize yo mu gihugu cya Tanzania ikaba ari inoti y'amashiriningi magana atanu igaragaraho umwe mu bayobozi bayoboye igihugu cya Tanzania ndetse n'imparage.

Amadevize ni kimwe mu bigaragaza iterambere mu by'ubukungu ndetse n'izamuka ry'umusarurobumbe w'igihugu. Amadevize akenshi azanwa na ba mukerarugendo babaje gusura igihugu cyacu cyane cyane mu cyanya cy'ingagi ndetse kandi agaturuka ku bicuruzwa tuba twohereje hanze y'igihugu.

Amadevize cyangwa amafaranga akoreshwa mu bihugu by'amahanga, cyane cyane abinjiye mu Rwanda binyuze mu bikorwa by'ubukerarugendo cyangwa ibicuruzwi biba byoherejwe hanze hanze y'igihugu. Aya madevize kandi avunjwa mu Rwanda ndetse no ku mabiro atandukanye, avunja amafaranga ukabasha kubona ayo wakoresha imbere mu gihugu cyangwa hanze yacyo.

Ibiciro byo ku isoko mvunjafaranga byo ku italiki cumi n'eshatu z'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, aho idorari ry'irinyamerika ryavunjwaga amanyarwanda magana inani mirongo itatu n'arindwi ku muntu uyashaka, ndetse umuntu uyafite bakamuha magana inani mirongo ine n'atatu.

Amadevize yinjira mu gihugu azanywe na ba mukerarugendo cyangwa se aturutse ku bicuruzwa tuba twohereje hanze y'igihugu. Aya agira uruhare mu kuzamura umusaruro mbumbe w'igihugu ndetse no kuzamura iterambere ry'igihugu muri rusange, ku ruhando mpuzamahanga.

Isoko rigaragaza ihindagurika ry'uko ibiciro bihagaze ku isoko mvunjarafaranga, ku mafaranga akoreshwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye, harimo: nka Leta zunze ubumwe za Amerika, akoreshwa mu Burayi azwi nk'Amayero, Amapawundi akoreshwa mu Bwongereza ndetse n'andi atandukanye nk'uko bigaragara kuri iki kirango.

Amadevize ni kimwe mu bizamura umusaruro mbumbe w'igihugu, ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Akenshi mu Rwanda, amadevize tuyakura ku banyamahanga baba baje gusura u Rwanda ndetse no ku bicuruzwa twohereza hanze y'u Rwanda, harimo imboga, imbuto, urusenda n'ibindi bitandukanye twohereza hanze y'igihugu. Bityo bikazamura umusaruro mbumbe w'igihugu, ndetse n'iterambere ry'igihugu rikazamuka muri rusange.

Amadevize yinjira mu gihugu aturutse mu bikorwa bitandukanye birimo nk’ibyo gusura U Rwanda, gusura ingagi ndetse n'ibindi bikorwa by'ubukerarugendo binyuranye bikorerwa mu gihugu cy'U Rwanda. Ayo madovize akaba ari amayero mirongo itanu, ijana, makumyabiri ndetse n'andi atandukanye.

Ahatangirwa serivisi mvunjafaranga, aho umuntu ufite amafaranga yandi atari Amanyarwanda, ashobora kuyavunjisha agahabwa Amanyarwanda kugira ngo abashe gukoresha imbere mu Gihugu.

Amafaranga akoreshwa mu bihugu bitandukanye bya Afurika, aho ashobora kuvunjishwa ku bigo bitanga serivisi z'ivunjisha hagendewe ku biciro mpuzamahangaba biba byaratangajwe, aha ngaha twavugamo nk'amafaranga y'u Rwanda, amayero, amashingi ya Kenya, amashingi ya Uganda ndetse n'andi atandukanye.

Amadevize akoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, inoti y'amafaranga magana atanu. Amadevize ni amwe mu mafaranga yinjira mu gihugu binyuze ku bikorwa by'ubukerarugendo ndetse anaturutse ku byoherezwa mu mahanga. Aya kandi agaragaza umusaruro mbumbe w'igihugu ndetse akagaragaza n'izamuka ry'ubukungu.

Ahatangirwa serivisi z'ivunjishwa ku isoko mvunjafaranga ry'ikigo cya CXI, aho iki kigo gitanga serivisi ku bakeneye amadevize ndetse n'abayafite bagahabwa amafaranga akoreshwa imbere mu gihugu, ibi bikoroshya imitangire ya serivisi ndetse no kuba babasha kwishyura ibintu aho bagiye cyangwa se imbere mu gihugu.

Ahatangirwa serivisi mvunjishafaranga ku biciro bimwe na bimwe haba kuba bafite amadovize cyangwa se abayashaka bajya mu bihugu bitandukanye aha kandi ushobora kubona amafaranga akoreshwa mu Rwanda mu gihe ugeze cyangwa ukaba uhabwa amadevize ufasha kwikoresha mu gihe usohotse mu gihugu.

Ahakorera sosiyete ya Universal forex bureau, aho iyi sosiyete itanga serivisi zo kuvunja amafaranga mpuzamahanga ndetse n'amadevize ku bayakeneye. Ibi bikoroshya imihahiranire haba k'ukeneye amafaranga akoreshwa imbere mu gihugu cyangwa amadovize ku bagiye kujya hanze yacyo.

Inyubako ikorerwamo serivisi mvunjafaranga zitangwa n'ikigo cya forekisi biro dukomere aho kandi bagaragaza indangabiciro y'uko amadevize arimo kuvunjwa muri iki kigo cy'imari.

Hamwe mu hatangirwa serivisi z'ivunjisha ku madevize ku isoko mvunjafaranga, nk'uko bigaragara ku cyapa kirangisha aho idorari ry'irinyamerika ryari rihagaze amafaranga magana atanu mirongo irindwi ku urifite, ndetse agahabwa magana atanu mirongo irindwi n'atanu ku urishaka.

Ahatangirwa serivise z'ivunjisha ku isoko mvunjafaranga, aho umuntu ufite amadevize agenda akavungirwa ku giciro cyiza cyangwa se niba ayashaka akaba yayabona bitewe n'icyo akeneye. Iki kigo cyitwa foregisi biro Ineza gikorera mu mujyi wa Kigali.

Ahatangirwa serivisi z'ivunjisha ku isoko mvunjafaranga, hakorera kompanyi izwi nka ebigisi kashi. serivisi zitangwa n'isosiyete harimo kuvunja amadevize, ndetse no kuyatanga ku bayakeneye bajya mu bihugu bitandukanye. Harimo kandi no gukatisha amatike y'indege ku bafite ingendo zijya mu byerekezo bitandukanye.

Aha tangirwa serivisi mvuja faranga ku bafite amadevize cyangwa abayashaka. Aha kandi ushobora kubona amafaranga akoreshwa mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ibihugu duturanye, aha twavugamo nka Kenya, amashiringi ya Uganda, amashiringi ya Tanzaniya, nandi atandukanye.

Ahatangirwa serivisi mvunjisha faranga hazwi nka foregisi biro aho umuturage agenda akabasha kuvunjisha amadevize mu mafaranga y'igikoreshwa imbere mu gihugu cyangwa se ukeneye amadevize akaba yavunjishwa bitamugoye kugira ngo akoreshe amafaranga mu buryo busanzwe kandi bwemewe imbere mu gihugu.

Kiyosi cyatangirwamo serivisi zitandukanye z'ibigo bitandukanye ,harimo no kuvunjisha amafaranga y'amahanga .Aha harimo nko kohereza amafaranga mu bihugu by'amahanga ndetse no kuyakira ,kugura umuriro, kugura amainnite , kwishyura amazi ndetse no kubona serivisi nyinshi zitangwa n'ibigo by'imari bya hano mu Rwanda.

Ahatangirwa serivisi z'ibigo by'imari bitandukanye bidasabye ko umuntu ajya aho ibigo bikorera ahubwo akajya ku ba agenti aha twavugamo nka banki y'abaturage ndetse na banki ya kigali aho ushobora kubona serivisi zayo binyuze ku ba agenti bitabaye ngombwa ko ujya aho ibi bigo bikorera nyirizina.

Ibikoresho byo mu nzu ni kimwe mu bintu umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi kandi bigafasha mu kurimbisha inzu, bityo igasa neza, cyane cyane rero hibandwa ku bikoresho bikozwe mu biti kuko ari byo bigaragaza ubwiza ndetse n'umwimerere w'inzu. Aha twavugamo nk'intebe, ameza, utubati n'ibindi bitandukanye.

Bimwe mu bikoresho dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, akenshi byiganjemo ibikoze mu biti, haba aho tuba, aho dukorera ndetse n'aho dukora akazi kacu ka buri munsi. Ibi bikoresho rero byiganjemo intebe, ameza ndetse n'utubati. Ibi byose bikaba ari ibikoresho by'ingenzi, umuntu akenera mu buzima bwe, mu bikorwa bitandukanye aba arimo gukora.

Ibikoresho byo mu nzu bikoze mu mbaho ni bimwe mu birimbisha inzu igasa neza kandi ikaba iteye neza, bimwe mu bikoresho bikoze mu mbahoho dukenera mu nzu, harimo nk'intebe, ameza, utubati n'ibindi bitandukanye byose bikarimbisha inzu kandi bikagaragaza n'agaciro k'iyo nzu.

Serivisi yo gutanga amacumbi ni imwe muri serivisi zitangwa n'amahoteri. Iyi serivisi ni ingenzi cyane ku bantu barikugenda hirya no hino mu Gihugu cyangwa bafite ingendo zitandukanye kuko bakenera aho kurara. Batanga kandi ibikoresho by'ibanze harimo nk'amazi, uburyamo, igitambaro cy'amazi n'izindi serivisi zitandukanye wakenera igihe waraye mu cyumba runaka.

Ibikoresho bikozwe mu mbaho dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi haba intebe, ameza, utubati, amadirishya, inzugi n'ibindi bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibikoresho byo mu nzu ni kimwe mu bikoresho bikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, yaba mu rugo aho tuba cyangwa se mu tuzi aho dukorera, ibikoresho kandi byibanda ku ntebe, ameza, utubati ndetse n'ibindi dukenera nk'ibitanda. Ibi ngibi kandi bitanga amafaranga menshi ku babicuruza kuko usanga ari ibikenerwa na buri ngeri zose z'abatuye igihugu.

Ubwogerore bw'intoki bugezweho bwa kijyambere buzwi nka gakondo ya kandagira ukarabe, aho umuntu umaze gukoresha serivisi zitandukanye cyane cyane nk'uvuye mu bwiherero yogera intoki kugira ngo yirinde indwara zizimwe zdura yabakuhanavuye cyangwa se mu byo amaze gukora kandi umuntu akoresha ubukarabiro mu gihe gikora intoki kugira ngo mbere yo gutegura amafunguro.

Ibikoresho bikozwe mu mbaho byifashishwa mu bikoresho bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, harimo nk'intebe, ameza, utubati, inzugi ndetse n'ibindi bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibikoresho byiza bikozwe mu mbaho bikenerwa mu rugo ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi bigizwe n'intebe, ameza ndetse n'akabati. Ibi bikoresho byifashishwa cyane mu gihe abantu bafungura, aho aya meza ashobora kwakira abantu bane bose bicaye neza kandi bafata amafunguro, banaganira.

Ubwogero bw'intoki bugezweho bwa kijyambere dusanga hirya no hino mu mahoteli, mu maresitora ndetse n'ahandi hahurira abantu benshi cyane cyane mu byumba byaho by'ubwiherero, aho umuntu akaraba intoki nyuma yo gukoresha ubwiherero, kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zishobora kwandurira binyuze mu mwanda.

Ububaji ni umwe mu myuga itunze abaturarwanda benshi kandi kuri ubu igenda ishyirwamo imbaraga nkuko yigishwa mu mashuri ndetse n'ibindi, ububaji kandi ni ngombwa kubera ko budufasha gukora ibikoresho byo mu nzu ndetse no kongerera agaciro ibikomoka ku biti bityo bikazamura umusaruro ndetse bikanongera imbaraga abakora ubuhinzi bw'ibiti.

Inyubako ikorerwamo na hoteri ya mayitosi hoteri aho itanga serivisi zitandukanye harimo gucumbikira abakiririya, gutanga serivisi za resitara kwakira amanama ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bihuriza hamwe abantu benshi.

Icyumba cy'inama cyari cyateguwe kugira ngo cyakire inama igizwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye, aho bari bagiye kungurana ibitekerezo ku ngingo zimwe na zimwe zigamije amajyambere y'igihugu ndetse n'iterambere ry'umuturage cyane ashyirwe ku isonga nk'umugenerwabikorwa wa serivisi zose ahabwa.

Inzu mbera byombi ya Kigali komvesheni senta, iherereye mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali. Aho iyi inyubako yakira ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi, haba amanama akomeye y'inzego za leta ndetse n'ay'abikorera ku giti cyabo, yewe ndetse n'ibitaramo by'abahanzi bikaba bishobora kwakirwa muri iyi nyubako. Aha kandi haba serivisi za resitora nziza cyane ndetse n'ibindi byose umuntu yakenera mu buzima bwa buri munsi.

Hotel ya Four X Points, aho itanga serivisi zitandukanye harimo gutanga amacumbi ku bayifuza, serivisi za restaurant, ibyuyumba by'inama, kwakira amakwe ndetse n'ibindi bitandukanye bitangwa n'iyi hotel.

Uruganiriro rwo mu nyubako runaka, hagizwe n'ibikoresho bitandukanye, harimo intebe, amatara, imitako, n'ibindi bigiye bitandukanye bigize urunganiriro rw'icyumba.

Amahoteli ni umwe mu rwego rw'abikorera ruzamura ubukungu bw'igihugu ndetse n'iterambere ryacyo aho batanga serivisi zitandukanye zituma binjiza amadovize ndetse bikazamura n'imibereho myiza y'abakora murigo serivisi zitangwa n'amahoteli harimo gutanga amacumbi gutanga serivisi zaamaresitora n'ibindi bitandukanye.

Amahoteli ni rumwe mu nzego z'abikorera zitanga umusanzu uhambaye mu kuzamura iterambere ry'igihugu, cyane cyane zakira ba mukerarugendo baturutse hanze y'igihugu baje gusura u Rwanda mu bice bitandukanye ndetse bakinjiza amadovize mu gihugu, bityo bikazamura iterambere n'ubukungu bw'igihugu muri rusange.

Hoteli ya lebonone yakira abantu batandukanye, ikabaha amacumbi ndetse ikagira serivisi zindi zihari, ndetse igatanga n'ibyo umuntu yakeneye, ikintu cyose yaba acubitse ahantu runaka, mu ibyo batanga harimo ku bantu bakoresha pisine, bakaba batanga amacumbi, amafunguro ndetse n'ibindi.

Inyubako ikorerwamo na hoteri Mariyoti itanga serivisi zitandukanye harimo kwakira amanama atandukanye, gutanga amacumbi ku baje bayigana, ndetse no kwakira ibindi bikorwa nk'ubukwe amaniveriseri n'ibindi bitandukanye.

Imwe mu mahoteli akomeye mu mujyi wa Kigali itanga serivisi zitandukanye harimo nko kwakira inama ndetse n'ibindi bikorwa bihuriza hamwe abantu benshi, kubera ibyumba binini by'inama bafite batanga serivisi kandi zo gutanga amacumbi ku bayakeneye ndetse na serivisi za resitora ku bazikeneye.

Hoteri ni imwe mu nzego z'abikorera zizamura ubukungu bw'igihugu ndetse no kuri ba nyir'amahoteri muri rusange. Serivisi zitangwa na hoteri harimo nko gucumbikira abantu, gutanga ubusitani cyangwa ibyumba by'inama ku bantu bakira abantu benshi ndetse na pisine ku bakeneye kuruhuka boga. Ibi bikanoza imitangire myiza ya serivisi ku bakoresha iyi serivisi y'amahoteri.

Hoteli ni rumwe mu nzego z'abikorera zifite uruhare runini mu kuzamura ubukungu ndetse no koroshya ubukerarugendo aho zitanga serivisi zirimo izo gucumbikira abantu, ndetse n'izo kwakira abantu n'ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi ibi bikazamura imitangire mi myiza ya serivisi ku bazikeneye.

Imwe mu nyubako zikorerwamo na sosiyete zitanga serivisi z'ubwishingizi haba ku binyabiziga, abantu, amazu y'imitungo utimukanwa, ubworozi n'ibindi bitandukanye aya ma serivisi ni ingenzi cyane kuko afasha umuntu gushumbushwa mu gihe yaba ahuye n'impanuka mu buryo butunguranye akaba yarizigamiye iyi kompanyi ikaba ishobora kumwishyura igihombo yagize.

Inyubako ikoreramo ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya Buritamu. Zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo harimo ubwishingizi ku buzima, ubwishingizi ku mutungo utimukanwa, ndetse n'ubwishingizi ku binyabiziga.

Inyubako ikoreramo ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya OLD Mutual insurence, aho gitanga ubwishingizi ku buvuzi, ibinyabiziga n'ibindi bitandukanye.

Ahatangirwa serivisi z'ikigo cy'imari cya bike insuwarensi ishami rya sonatube aho umukiriya ashobora kubona serivisi bidasabye ko ajya ku kigo nyiriizina ahubwo akaba yajya ku ishami rimwegereye akabona serivisi zimeze kimwe n'izo yabona agiye ku cyicaro cy'iyi kompanyi.

Ahakorera kopanyi itanga serivisi z'ubwishingizi ya Sonarwa, iyo kopanyi itanga serivisi z'ubwishingizi ku buzima aho umukiriya w'iyi sosiyete ahabwa ikarita imufasha kwivuza mu gihe agiye kwa muganga, akishyura amafaranga make andi akishyurirwa n’ubu bwishingizi.

Ahakorera ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya Sonerwa genero, iki kigo gitanga serivisi z'ubwishingizi butandukanye harimo ubwishingizi ku mutungo utimukanwa, ubwishingizi ku binyabiziga, ubwishingizi ku matungo, ubwishingizi ku bworozi n'ibindi bitandukanye.

Inyubako ikoreramo sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi izwi nka Prime insurance ishami rya Musanze, serivisi zitangwa n'iyi sosiyete harimo ubwishingizi ku mutungo utimukanwa ,ubwishingizi ku binyabiziga ndetse n'ubwishingizi ku buzima.

Ahakorera sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi izwi nka Micuwa inshuwarense mu Mujyi wa Kigali. Zimwe muri serivisi zitangwa n'iyi sosiyete harimo ubwishingizi ku buzima, ubwishingizi ku binyabiziga ndetse n'ubwishingizi ku mutungo utimukanwa.

Ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya saniramu, iki kigo gitanga serivisi z'ubwishingizi ku buzima, ubwishingizi ku mazu, ubwishingizi ku binyabiziga ndetse n'ibindi bitandukanye, ikigo rero kikaba giherereye mu mujyi wa Kigali.

Ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya Radiant Insurance, zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo harimo ubwishingizi ku binyabiziga, ubwishingizi ku mitungo utimukanwa ndetse n'ubwishingizi ku buzima. Cyane cyane ku buzima aho batanga ikarita yo kwivuza aho umukiriya ufite ikarita abasha kubona serivisi z'ubuzima akishyura igiciro gito cyane, asigaye akishyurwa n'iki kigo kuba biri mu masezerano baragiranye igihe yishyuraga ubwishingizi.

Ahatangirwa serivise z'ubwishingizi ku bikorwa bimwe na bimwe cyane cyane iby'ubuhinzi n'ubworozi, aho iyi nyubako iherereye i Kigali ku hazwi nko ku Kinamba, hakaba hatangirwa serivise z'ubwishingizi ku bijyanye n'ubworozi bw'amatungo.

Inyubako ikorerwamo n'ikigo cya radiyanti gitanga serivisi z'ubwishingizi. Iki kigo gitanga serivisi ku bwishingizi bw'ibinyabiziga, amazu ndetse n'ubuzima, cyane cyane mu buzima, aho zitanga amakarita yo kwivurizaho bityo umurwayi, umukiriya wayo urwaye akabasha kwivuza imiti itamuhenze ndetse akanishyura igiciro gito cyane ugereranyije n'icyo yagombaga kwishyura kuri serivisi z'ubuzima yahawe.

Imwe muri serivisi zitangwa n'ibigo bitanga serivisi z'imari, harimo gutanga inguzanyo haba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire, ibingibi bikorohereza abakorana n'ibigo kuba bakiteza imbere binyuze mu nguzanyo bahabwa ndetse no kubabona aho kuba cyangwa bakagura imishinga yabo binyuze mu nguzanyo bahabwa n'ibi bigo bakorana nabyo.

Inyubako ikorerwamo na sosiyete itanga serivisi z'imari ya copedu peyesi imwe muri serivisi zitangwa n'iyi sosiyete harimo gutanga inguzanyo z'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire ku bakorana n'iyo sosiyete harimo kandi nko gutanga serivisi zo kohereza no kwakira amafaranga binyuze muri iki kigo n'izindi zitandukanye.

Imwe muri serivisi itangwa n'ibigo by'imari, harimo nko gutanga inguzanyo ku bakiriya b'ibyo bigo. I&M banke Rwanda na yo ntiyasigaye inyuma kuko ishobora gutanga inguzanyo igera kuri miriyoni mirongo itanu z'amafaranga y'u rwanda nta ngwate utanze. Aya mafaranga yagufasha kuzamura imibereho ndetse n'iterambere ryawe, aho ashobora kugura inzu, ikibanza n'ibindi bitandukanye.

Icyapa cya bayumvapier cyamenyeshaga abakiliriya bacyo ko hari serivisi nshya ziyongewe mu zo bari basanzwe bahabwa serivisi zitangwa nikigo cy'imari harimo nko gutanga inguzanyo z'igihe kitorenze igihe kirekire kohererezanya amafaranga hagati y'abakoresha iyo sosiyete n'ibindi bitandukanye.

icyapa cyamamaza serivisi zitangwa n'ikigo cy'imari cya eco bank iyi banki ifasha abaturarwanda mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi ihabwa kwizigamira kwishyura ibicuruzwa gutanga ubwishingizi ku bintu bimwe na bimwe ndetse n'izindi serivisi zitangwa n'ibigo by'imari nkuko bitangwa n'ikigo cya eco bank

Imwe muri serivisi zitangwa n'ikigo gitanga serivisi y'itumanaho mu Rwanda cya MTN Rwanda, ni ugutanga uburyo bwo kwizigamira ndetse no kuba wagurizwa amafaranga igihe uyakeneye, hifashishijwe zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo, ariyo mo kashi. Ubu ngubu umunyarwanda ashobora kwiguriza amafaranga akoresheje terefoni bidasabye kujya gutonda umurongo cyangwa ngo ajye kwandika impapuro cyangwa ngo atange ingwate zindi.

Ikigo cy'imari giciriritse cya GOSHEN FINANCE PLC gitanga serivisi zitandukanye, harimo izo kubaka amashuri ndetse no gutanga scholarship ku banyeshuri baba biga mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza.

Ikigo gitanga serivisi z'imari kizwi nka COPEDU PLC, iki kigo gitanga serivisi zitandukanye harimo nko gufasha abaturarwanda bashaka kwizigamira kuba iyo serivisi yo kohereza amafaranga hagati y'abakoresha ikigo ndetse no gutanga inguzanyo z'igihe gito ndetse n'igihe kirekire ku bakiriya b'iyi kompanyi.

Imboga n'imbuto ni kimwe mu bigira ubuzima bwacu bwiza kuko zikungahaye ku mavitamini umubiri ukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aha twavugamo nk'amashu, karoti, dodo, epinari, amashu n'izindi mboga zitandukanye kuko ari ingenzi cyane mu birinda indwara. Imboga kandi ziboneka hirya no hino mu masoko yo mu Rwanda ku giciro gihendutse kandi byoroheye buri wese kuzigura.

Isoko ryo mu cyaro rikorerwamo ubucuruzi buciriritse, cyane cyane hibandwa ku mboga ndetse n'imbuto. Ubucuruzi bwiganjemo bw'imbuto harimo bwa voka, imineke, naho mu mboga harimo nk'intoryi, imiteja, karoti, dodo n'izindi.

Amapikipiki ni kimwe mu binyabiziga byifashishwa mu koroshya ingendo ndetse n'ubuhahiranire hirya no hino mu gihugu. Aho kandi abakora uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bibagirira akamaro nabo ubwabo ndetse n'igihugu muri rusange bityo bakiteza imbere bikazamura n'ubukungu bw'igihugu.

Ubukangurambaga bwakozwe n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho cya eyateri Rwanda, aho bashishikarizaga abanyarwanda kucyubaka ndetse no gukoresha serivisi gitanga, arizo gutanga serivisi zo guhamagara, gukoresha interineti, kohererezanya amafaranga n'ibindi bitandukanye.

Isoko riteraniramo abantu benshi cyane cyane ryiganjemo abacuruza ibiribwa aho umuturarwanda ashobora kujya agahahira imboga, imbuto ndetse n'ibindi biribwa byose nk'ibinyabijumba, ibinyabirayi, ibinyamisogwe n'ibindi bitandukanye yifashisha mu gutegura amafunguro yiwe ya buri munsi.

Amasoko acururizwamo ibiribwa cyane cyane byiganje ku bikomoka ku buhinzi nk'imboga n'imbuto aho akenshi usanga abamama ari bo biganje muri soko bacuruza ibi bihingwa ibi bikazamura imibereho yabo ndetse bakagira uruhare mu iterambere ry'umuryango binyuze muri ubu bucuruzi buciriritse bakora.

Isoko ryibanda ku bikoresho ndetse n'imyambaro cyane cyane byibanda ku muco nyarwanda, aho dusangamo ibikoresho nk'imyenda, ibikapu, ibikoresho byo mu rugo, ibiseke ndetse n'ibindi byose bifite aho bishingiye ku muco nyarwanda ndetse na gakondo y'umuco nyarwanda.

Ahatangirwa serivisi z'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN.Aho umukiriya ashobora kubona zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo bidasabye ko ajya aho gikorera ahubwo agasubira ku mu ejenti umwegereye bityo bikoroshya imitangire myiza ya serivisi.

Ahatangirwa zimwe na zimwe muri serivise z'ikigo cy'itumanaho cya mtn, aho umuntu ashobora kohereza undi amafaranga kuyabikuza, kugura ama inite n'izindi serivise zitandukanye zitangwa n'iki kigo, bitamusabye kujya ku kigo nyirizina ahubwo akazihabwa n'egenti umwegereye.

Kwishyurwa kuri telefoni ni imwe muri serivisi zazanywe n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN aho borohereje abacuruzi kuba bakishyurwa hadakoreshejwe amafaranga mu buryo bwo guteza imbere ikoranabuhanga ndetse na gahunda ya cashless.

Umukozi wa sosiyete itanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda ya MTN, aho yarimo afasha umukiriya. Serivisi zitangwa n'aba bakozi b'iyi sosiyete harimo nko kuba yakohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza ndetse no kuba yakugurisha ikarita yo guhamagara.

Ahatangirwa zimwe muri serivisi zitangwa n'ikigo cy'itumanaho, cya MTN Rwanda, zimwe muri serivisi zitangwa harimo, kohereza no kwakira amafaranga, kubitsa amafaranga ndetse no kuyabikuza mu gihe umuntu akeneye kuyakoresha, bityo izi serivisi umuturage akazibona bimworoheye bidasabye kujya aho ikigo gikorera, ahubwo akajya kuba egenti b'iyi sosiyete.

Hatangirwa zimwe muri serivisi zisanzwe zitangwa n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN, aho umukiriya ashobora kubona zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo bidasabye ko ajya aho gikorera ahubwo akazibonera ku ba egenti bamwegereye.

Kiyosike y'ikigo cy'itumanaho cya MTN Rwanda, ahatangirwa serivisi zitandukanye, hari umugore uzanye amafaranga, kugura ikata ya interinete, kugura ikarita yo guhamagara ndetse n'izindi serivisi zitandukanye zitangwa n'iki kigo, bidasabye kujya aho iki kigo gikorera.

Ahatangirwa serivisi zitangwa na sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, aho umuntu ashobora kubona serivisi z'iki kigo bidasabye ko ajya aho gikorera, ahubwo akazisabira ku ku mu ejenti umwegereye, serivisi ubona harimo nko kubitsa ndetse no kohereza amafaranga ku bakiriya bakoresha iyi sosiyete n'ubundi.

Kiyosi y'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda ya MTN aho hatangirwa serivisi zitandukanye harimo nko kubitsa amafaranga kuyabikuza kuyohererezanya ndetse n'ibindi bitandukanye bidasabye ko umukiriya ajya ku kigo cyangwa kuri kampani.

Hamwe mu hatangirwa serivisi z'ikigo gitanga serivisi z'ikoranabuhanga mu Rwanda cya MTN, aho iyi kampani ifasha mu gutanga serivisi z'itumanaho ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bijyanye n'imari, harimo nko kubitsa amafaranga, gufasha abantu kwizigamira, gutanga inguzanyo ku bakoresha iyi kampani n'izindi nyinshi zitandukanye.

Imwe muri serivisi zitangwa na sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni Rwanda, harimo n'uburyo bwo kwishyura ibicuruzwa hifashishwa iyi sosiyete, aho umucuruzi yiyandikisha agahabwa nimero imuranga, ari nayo inakoreshwa n'abakiriya mu gihe bamwishyura ibicuruzwa baguriye iwe.

Ahatangirwa serivisi z'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni Rwanda aho umuntu ashobora kubona serivisi zitandukanye, nko kugura simukadi kohereza amafaranga, kubikuza cyangwa se uwagize ikibazo runaka bakamufasha kugikemura.

Hamwe mu hatangirwa serivisi zimwe na zimwe zitangwa n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN. Aho umukiriya ashobora kubona zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo, bidasabye ko ajya aho gikorera ahubwo akazihabwa n'umwajenti w'iki kigo, uri ahantu hamwegereye.

Ubukangurambaga bwakozwe n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN Rwanda, aho bakanguriraga abaturage kuyoboka serivisi zitanga n'iki kigo harimo ipaki yo guhamagara ndetse n'iza interineti bya yoro bihabwa urubyiruko rutaragenza imyaka makumyabiri n'itanu.

Imwe muri serivisi itangwa n'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni Rwanda yo kwishyura ndetse no kwishyurwa ibicuruzwa hifashishijwe iki kigo hakoreshejwe nimero iranga umugurisha, aho yaba umukiriya agakanda imibare akabasha kwishyura adakoresheje amafaranga mu ntoki, aho akoresha ikigo mu kwishyura ibicuruzwa.

Kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga ni imwe muri serivisi zitangwa n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya mtn, aho umucuruzi ahabwa nimero imuranga ari nayo ikoreshwa n'umuguzi igihe arimo kwishyura ibicuruzwa bitandukanye.

Imwe muri serivisi itangwa n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN Rwanda, aho harimo no kwishyura ibicuruzwa ku mucuruzi igihe uguze, wishyuye, ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga. Aha umucuruzi ariyandikisha agahabwa nimero ye yo kwishyurirwaho, hanyuma abamuhahira bagakanda imibare bakoresheje iyizi kompanyi, hanyuma bakabasha kwishyura ibyo baguze.

Zimwe mu mbuga zicuruza hifashishijwe murandasi nka Kasha Rwanda ndetse na besti serazi aho umukiliriya ajyaho akareba ibicuruzwa bihari yagira ibyo ashima akabyishyura hanyuma agatanga adresse bakabimwoherereza bidasabye ko akora urugendo.

Iguriro ryo kuri murandasi rizwi nka RWANDA MART, aho umukiriya ajyaho akareba ibicuruzwa bihari yagira ibyo ashima akabyishyura hanyuma bakabimwoherereza iwe kuri aderesi yatanze, bidasabye ko akora urugendo ajya kubishaka ku masoko.

Urubuga rwo kuri murandasi rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye rwa igura. Uru rubuga rubaho ibicuruzwa bitandukanye umukiriya ajyaho yabishima akabyishyura hanyuma agatanga aderese ze abakozi b'urubuga bakabimwoherereza aho ari bidasabye ko akora urugendo ajya kubishaka.

Urubuga rwamamarizaho ibicuruzwa, bityo umuntu akaba yabasha kubigura akaba atagiye aho bakorera ahubwo akabigura yibereye mu rugo bakabimwoherereza, cyangwa se akaba yakishyura agahabwa ibyo yaguze bidasabye ko akora urugendo.

Urubuga rwo kuri murandasi, ruzwi nka Iguriro, aho ushobora kugura ibicuruzwa biturutse muri leta zunze ubumwe z'Amerika n'Ubushinwa, aho waba uri hirya no hino mu gihugu bikakugeraho bidasabye ko ubitumiza ahandi, ukifashisha uru rubuga ukishyura, hanyuma ibyo wahashye bikorezwa aho uri kuri aderese wabahaye.

Umukozi wa sosiyete ikorera kuri murandasi izwi nka bilasi, iyi sosiyete ifite urubuga rw'ikoranabuhanga, aho baba bafiteho ibicuruzwa bitandukanye noneho umu gihe akajya kurirwo rubuga yashima ibicuruzwa akishyura hanyuma abakozi b'iyi sosiyete bakabimugezaho kuri aderesi yatanze bidasabye ko akora urugendo ajya kubishaka.

Umukozi wa kompanyi ya Pose delivery, iyo sosiyete ikaba itanga serivisi zo kugeza ibicuruzwa ku bakiriya babiguze, hirya no hino mu gihugu, ndetse ikabibagezaho mu gihe gitoya, aho umukiriya bitari ngombwa ko ajya gushaka igicuruzwa kuri butike, ahubwo akigura yifashishije ikoranabuhanga, noneho iyi kompanyi ikajya kugifata aho yakiguze, ikakimugereza mu rugo, adakoze urugendo na ruto.

Sosiyete ikorera ubucuruzi kuri murandasi, aho iba ifite urubuga ruriho ibicuruzwa bitandukanye hanyuma umukiriya ubishaka akajya kuri urwo rubuga yashima ibicuruzwa akishyura ndetse agatanga aderese zaho babimwoherereza hanyuma abakozi b'iyo sosiyete bakabimugezaho adakoze urugendo.

Umukozi wa sosiyete ikorera kuri murandasi izwi nka birasi aho iyi sosiyete ifite ibicuruzwa bitandukanye kuri murandasi, hanyuma umukiriya akajyaho yabishima akishyura hanyuma bigahabwa aba bakozi babigemura babigeza kuri adirese umukiriya yatanze ko babikeneyeho atavuye ahari.

Urubuga rw'iguriro ryo kuri murandas rufasha abatu hirya no hino ku isi kugura ibikoresho akeneye byifashishije murandasi aho umukiriya aho agahitamo ibicuruzwa ashimye yarangiza akishyura hanyuma akabyohererezwa adakoze urugendo na ruto ava ahari ahubwo byo bikamugezwaho kuri aderessi atazi.

Ubucuruzi bwo kuri murandasi ni bumwe mu bamaze kwitabirwa n'abantu benshi, aho buri mu bucuruzi ajya kuza imbuga agashyiraho ibicuruzwa bafite, hanyuma abakiriya nabo bakajya aho bawushima bakishyura ndetse bakabyoherezwa kuri aderesi batanze bidasabye ko bakora urugendo bajya kubishaka.

Urubuga rwo kuri murandasi, rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye, aho umukiriya ajya kuri uru rubuga, hanyuma agahitamo ibyo ashaka guhaha akishyura, bakabimwoherereza kuri aderesi yatanze, bidasabye gukora urugendo ajya kubishaka ku isoko.

Ibinyabiziga by'amapikipiki byifashishwa na sosiyete ya rashi fudu. Iyi ni sosiyete itanga serivisi zo kohereza ibicuruzwa ku babiguze. Aha ngaha uhamagara aho ushaka kugura ibicuruzwa, hanyuma ukishyura amafaranga, noneho iyi kompanyi ya rashi fudu ikagufasha kubikugezaho udakoze urugendo, wowe aho uri bakabikugezaho.

Urubuga rukora kuri murandasi rwa Yubeyi, aho ushobora kugura ibikoresho cyangwa ibicuruzwa hirya no hino ku isi, ukoresheje uru rubuga hanyuma bikakugezwaho kuri aderesi wabahaye, bidasabye ko ujya kwakira ibicuruzwa cyangwa kujya kubyigurira muri ibyo bihugu, ahubwo wowe ukishyura ukoresheje urwo rubuga, hanyuma bakabikoherereza aho uri.

Umukozi wa sosiyete ikorera kuri murandasi ya Vuba Vuba, aho ifite urubuga rubaho ibicuruzwa, umukiriya ajyaho yashima ibicuruzwa akishyura, agatanga na aderesi, hanyuma abakozi b'iyo sosiyete bakabimwoherereza aho ari, adakoze urugendo na ruto.

Urubuga rwo kuri muranda rwa migoro shop akoreshezwa ibicuruzwa bitandukanye ndetse umukiriya akaza akaba ahitamo igicirozwa ashaka kugura akishyura amafaranga akoresha ikoranabuhanga bityo aka yacyohererezwa kikamusanga hari adakoze urugendo cyangwa kurekwa amafaranga mu ntoki byose bigakorerwa kuri murandasi.

Urubuga rukora kuri murandasi rukorerwaho ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye, aho umuntu ajya agahitamo ibicuruzwa akishyura ndetse bakabyohereza aho aherereye cyangwa aderesi yatanze bidasabye kokora urugendo ajya kwiguriro kubyigurira we ubwe.

Ubukangurambaga binyuze kuri murandasi buzwi nka women in leadership, aho abari ndetse n'abategarugori bashishikarizwa kujya mu myanya y'ubuyobozi bw'icyiciro cyahoze kirengagizwa mu myaka yashize, cyangwa bagafatwa nk'abadashoboye, nyamara na bo bafite imbaraga kandi batanga umusanzu mu kubaka igihugu cyabo.

Urubuga rwa aribaba donti komu rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye bidasabye ko umuntu ava mu rugo, aho ashima igicuruzwa akishyura yarangiza bakakimwohereza aho ari bidasabye gukora ingendo ngo ave mu rugo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu yo kubamo ifite icyumba cyo kuraramo, ubwiherero bugezweho bwa kijyambere ndetse n'igikoni cyo mu nzu kigezweho aho iherereye i Kigali mu Rwanda. Uyu mutungo ukaba ufite agaciro ka miliyoni ijana na mirongo itatu y'amafaranga y'u Rwanda.

Gutanga amacumbi ni imwe muri serivisi zitangwa n'amahoteri, ukeneye icumbi yishyura amafaranga runaka agahabwa icumbi aho ashobora kubona ibyangombwa byose nkenerwa nk'uburiri bwo kuryamaho, amazi yo gukaraba, ndetse n'ibindi by'ibanze nkenerwa umuntu akenera mu icumbi kugira ngo akomeze gahunda ze.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ikodeshwa ifite icyumba kimwe ndetse n'urunganiriro rumwe, inzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali aho ushaka kuyibamo yishyura amadolari igihumbi na magana atanu ku kwezi akabasha kuyicumbikamo ndetse ahabwa n'ibikoresho byose nkenerwa by'ibanze.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ikodeshwa, iherereye i Kigali ahazwi nka Kabeza, iyi nzu ikaba ifite icyumba cy'uburyamo, ifite kandi n'igikoni kigezweho cya kijyambere, aho iyi nzu ikodeshwa amadorari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu yo kubamo yaturwamo n'umuntu umwe ku giti cye cyangwa se umuryango. Iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Kugira ngo ubashe gukodesha iyi inzu nuko byagusaba amadolari igihumbi nibura ku kwezi, ukabasha kuba muri iyi nyubako.

Kugura umutungo utimukanwa ni bumwe mu buryo umuntu ashobora kwizigamiramo amafaranga ye ndetse akazamura agaciro uko bwije n'uko bukeye, imwe muri mitungo itimukanwa harimo nk'ibibanza, amazu, inyubako ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu yo guturamo iherereye mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali, aho iyi nzu ifite agaciro ka miliyoni mirongirinwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba kandi yagereye ibikorwa remezo nk'imihanda, amashuri kandi igerwamo n'amazi meza ku buryo tuyemo atagira ikibazo cy'ibikorwa remezo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye Kimironko mu mujyi wa kigali iyi nzu igizwe n'ibyumba bibiri byo kuraramo ndetse n'ibyumba bibiri by'ubwogera iyi nzu ikodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi k'umuntu ukeneye kuyibamo kandi ituriye ibikorwa remezo byose by'ibanze nkenerwa.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu yo guturamo iherereye i kanombe mu mujyi wa Kigali, aho iyi nzu ifite ibyumba bine byo kuraramo, ikagira ubwogero butatu ndetse n'igikoni kigezweho cyo mu nzu, iyi nzu ikaba ihagaze miliyoni ijana ku muntu ukeneye kuyigura.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitatu, ubwogero bubiri, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, Akarere ka Kicukiro, aho umuntu ushaka kuba muri iyi inzu aho yishyura ibihumbi magana ane by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'amazu akodeshwa aherereye mu mujyi wa Kigali ndetse harimo n'ibikoresho byose byo mu nzu bikenerwa nk'utubati, ameza, intebe, n'ibindi. Izi nzu kandi ikaba ifite ibyumba bitatu byo kuraramo, ubwogero bubiri, ikaba ikodeshwa amadorari igihumbi ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu yo guturamo iherereye i Remera mu mujyi wa Kigali. Aho iyi inzu igizwe n'icyumba cyo kuraramo, ubwogero bumwe ndetse n'igikoni cyo mu imbere mu nzu. Iyi nzu ikaba ishobora gukodeshwa mu gihe ufite amafaranga cyangwa ukeneye gutura mu nzu yo kubamo idahenze cyane mu mujyi wa Kigali.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inyubako y'igorofa rimwe, ikaba irimo kugurishwa ndetse ikaba yakoreshwa mu bikorwa bitandukanye haba kuyibamo cyangwa se kuyikorera izindi serivise z'ubucuruzi nka hoteri n'ibindi bitandukanye.

Inzu yo guturamo mu mujyi wa Kigali, aho iri ku mudugudu kandi ikaba igerwaho n'ibikorwa remezo nk'imihanda, amazi, amashanyarazi n'ibindi bitandukanye, iyi nzu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana tatu ku kwezi k'umuntu waba ukeneye kuyibamo.

Inzu yo gukodesha iherereye ku Gisozi, ifite ibyumba bitanu na saro ndetse ikagira n'icyumba cy'uburiro, ikagira ubwiherero bune ndetse n'igikoni cyo mu nzu, ifite kandi inzu y'umukozi hanze n'ibindi byose bikenewe mu nzu.

Itangazo rirangisha inzu yo gukodesha izwi nka geto iherereye ku Irebero mu mujyi wa Kigali. Aho ibi aba ari ibyumba byo kubamo byishyurwa amadolari magana ane gusa ku kwezi ukabasha kuba muri iyi nzu kandi ugerwaho na serivisi zose ndetse n'ibikorwa remezo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu yo kubamo cyangwa Aparitoma iherereye mu mujyi wa Kigali ahagana mu gace ka Rugando. Iyi nzu gafite agaciro k'amadolari ibihumbi cumi na bitanu ku kwezi kugira ngo ubashe kuba waba muri iyi nzu. Hafi na Kigali Convention Centre.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu yo guturamo iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, iyi nzu ikaba ifite agaciro ka miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, ikindi kandi ikaba yegereye ibikorwa remezo nk'imihanda, amazi, amavuriro ndetse inagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi.

Itangazo ryamamaza umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ifite icyumba kimwe cy'uburyamo n'ikindi cyumba kimwe cy'ubwogero. Iherereye kacyiru mu mujyi wa kigali ,aho iyi nzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri gusa ku kwezi.

Itangazo ryakanguriraga abantu mu gushora imari mu mitungo utimukanwa, ugizwe n'inzu aho babwiraga abantu ko iyi nzu irimo kugurishwa kandi amafaranga atari menshi, aho umuntu ushaka umutungo utimukanwa kandi ubyara inyungu yashora imari akabasha kunguka mu buryo bwihuse.

Inzu igizwe n'ibyumba bikodeshwa ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali iyi nyubako ikaba ikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi kuri buri cyumba, iyi nzu kandi ikaba yegereye ibikorwa remezo nk'imihanda amazi meza kandi ikabyimo n'umuriro w'amashanyarazi ku buryo utuyemo abasha gukora ibikorwa bye byose nta nkomyi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu yo guturamo ikodeshwa iherereye mu mujyi wa kigali aho iyi nzu yegereye ibikorwa remezo byose nk'umuhanda, amazi, amavuriro, n'ibindi bitandukanye iyi nzu kandi uyishaka ukabikodeshwa ibihumbi magana atandatu gusa ku kwezi.

Icyapa kigaragaza umwe mu mitungo itimukanwa ya guverinoma y'u Rwanda abaturage bagizemo uruhare mu gukusanya amafaranga mukiswe agaciro development fund aho iki kigega cyakusanyije amafaranga aho buri munyarwanda yatangaga umusanzu we mu kugira ngo ikigega kibeho kandi kibashe gukusanya umusanzu bityo ufashe mu iterambere ry'igihugu.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye Kigali mu Rwanda mu karere ka Kicukiro, aho ifite agaciro k'amadolari igihumbi, ushobora kwishyura kugira ngo ubashe kuba muri iyi nyubako, iyi nzu kandi ishobora gucumbikira abantu ndetse n'imiryango itandukanye kuko ifite ibyumba binini kandi byisanzuye bihagije.

Inzu zagenewe gukorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye yaba ibiribwa, imyambaro ndetse n'ibikoresho byo mu nzu, aho buri bicuruzwa biba bifite uruhande rwabyo biherereyemo, hanyuma ugura akamenya kumenya akabona aho ashakira ibyo akeneye, kwishyura kandi bikoroshwa ku buryo umuntu yishyura akoresheje ikarita ya banki cyangwa uburyo bw'ikoranabuhanga bundi ndetse n'ufite amafaranga mu ntoki akabasha kwishyura.

Inyubako zikorerwamo ubucuruzi buteye imbere, aho buri bicuruzwa biba byaragenewe uruhande bibarizwamo bityo bikorohereza abakiriya kumenya aho ubishakira, ndetse bakaba bashobora no kwishyura bifashishije uburyo butandukanye bw'ikoranabuhanga cyangwa se amafaranga afatika mu ntoki ku bayafite.

Amaguriro agezweho ya kijyambere aho ibicuruzwa biba bitondetse ku murongo hagendewe ku bwoko bwabyo aha twavuga nk'aho usanga hari igice cyahariwe ibinyobwa, igice cyahariwe ibiribwa, igice ,cyahariwe ibikoresho n'ibindi bitandukanye bityo bigafasha abaguzi kumenya aho bakura ibyo bakeneye.

Iguriro rikoreshwa n'abari mu nzego z'igihugu z'umutekano ari bo polisi y'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda, aho bahahira ibikoresho, ibiribwa ndetse n'ibindi bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako zagenewe gukorerwamo ubucuruzi, aho buri bwoko bw'ibicuruzwa usanga byaragenewe ahantu runaka bibarizwa bityo bikorohereza abaguzi ndetse n'abacuruzi kumenya aho bahurira nk'urugero usanga hari nk'igice cyahariwe gucururizwamo imboga, ikindi cyarahariwe ibikoresho byo mu nzu, ikindi cyarahariwe imyambaro n'ibindi gutyo gutyo.

Iguriro rya kijyambere aho umuntu ashobora guha ibiribwa ibikoresho ndetse n'ibindi byose akenewe mu buzima bwa buri munsi bidasabye ko ajya mu isoko rindi, ahubwo akaza agafata ibicuruzwa binyuriye mu isoko hanyuma akaza kubarisha akishyura hakoreshwa uburyo butandukanye nk'ikarita ya banki, kwishyura amafaranga mu ntoki cyangwa ubundi buryo bw'ikoranabuhanga.

Arimantasiyo aho umuntu ashobora kugura ibicuruzwa bimwe na bimwe cyane cyane yibandwa ku mbuga ndetse n'ibinyobwa bidasembuye, umuntu ashobora kugura, iyi ikaba yari iherereye kuri sitatisiyo ya rubisi, aho abagenzi barimo kugenda, bashobora guhagarara bakankwesha amavuta, ndetse bakaba banahaha ibyo bakeneye mu rugendo rwabo.

Inyubako zagenewe gukorerwamo ubucuruzi buteye imbere ndetse n'ubuciriritse, aho buri ruhande ruba rufite ibicuruzwa runaka bihabarizwa, hanyuma bikorohereza ujya gushaka ibyo bicuruzwa kuko atirwa ajarajara mu isoko, ahubwo aba azi aho ibicuruzwa yabisanga bityo bikamworohereza ndetse bikanamufasha kurangira igihe.

Inyubako yagenewe gukorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho buri bwoko bw'ibicuruzwa biharirwa uruhande runaka, bityo bikorohereza abaguzi kumenya aho bashakira ibicuruzwa ndetse bakanafashwa mu kwishyura ibicuruzwa baguze, aho usanga uburyo burenze bumwe bwo kwishyura bwemewe.

Iguriro rya kijyambere ahahirwa ibintu bitandukanye, yaba ibiribwa, ibikoresho by'isuku ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibindi bitandukanye bigafasha kandi abakiriya kwishyura bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa se ibigo by'imari bakorana nabyo.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza yatangiwe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, aho ihabwa umuturage wamaze kwishyura umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza bityo agahabwa serivisi z'ubuzima bitamuhenze, aho yishyura cumi na gatanu ku ijana by'amafaranga ubundi yakabaye yishyura.

Umwe mu bayobozi bakora mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize ubwo yahabwaga ishimwe nk'umukozi wahize abandi mu gukora neza muri iki kigo, iki kigo gitanga serivisi zitandukanye harimo nko gutanga amakarita ya mituweli ndetse no gukusanya imisanzu yindi y'ubwisungane mu kwivuza.

Ubwisungane mu kwivuza, ni imwe muri politiki ya leta igamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage, aho buri muryango utanga ubwisungane mu kwivuza ugendeye ku mubare w'abantu babarirwa mu muryango, hanyuma hagira ikibazo cy'uburwayi akajya kwivuza akabona serivisi z'ubuzima ku giciro gito cyane kingana na cumi na gatanu ku ijana cy'ayo yakagombye kuba yishyura.

Umuyobozi mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB ubwo yari kuri televiziyo asobanurira igihugu n'abaturage muri rusange gahunda yashyizweho n'iki kigo yo kwizigamira izwi nka ejo heza aho umuntu yizigamiye mu myaka yo gukora hanyuma akazakobokwa mu gihe azaba atagishoboye gukora.

Igihembo cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize bw'ubuzima bwa RSSB. Gihawe Mukanziga Pascasie. Kigizwe n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni n'ibihumbi magana abiri, mirongo itanu. Kubwo kwitanga mu kaziki we yari yakoze neza kandi anoza inshingano yari afite muri iki kigo.

Ubwisungane mu kwivuza ni imwe muri serivisi itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize bw'ubuzima, aho umuturarwanda yishyura amafaranga ibihumbi bitatu. Agahabwa ikarita yo kwivuza izakoreshwa mu mwaka wose. Iyi karita ikazajya ajya kuyijyana ku bigo nderabuzima ndetse n'amavuriro, agahabwa serivisi z'ubuzima nta kindi kiguzi yatanze, akishyura gusa cumi na gatanu ku ijana by'ayo yagombaga kwishyura.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, Mituelle de Santé, yatangiwe mu Karere ka Kicukiro, mu Mujyi wa Kigali. aho iyi karita ihabwa umunyamuryango wamaze kwishyura umusanzu mu bwisungane mu kwivuza, hanyuma agahabwa ikarita kugira ngo ajye abona serivisi z'ubuvuzi igihe azikeneye. Yishyura cumi na gatanu gusa ku ijana by'agaciro mbumbe kayo yakabaye yayishyura, andi akishyurwa n'Ikigo cy'Ubwisungane mu Kwivuza.

Ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB ubwo cyahembaga umwe mu bafatanyabikorwa bacyo witwaye neza mu gutanga serivisi zitandukanye, iki kigo gitanga serivisi harimo ubwishingizi ku buzima ndetse no gukusanya imisanzu y'abanyamuryango mu kizwi nka mituweridosante.

Ubukangurambaga bwari bwakorerewe mu mujyi wa kigali bwakanguriraga abantu kuyoboka serivisi z'ubwishingizi kuko ari ingenzi cyane cyane bishingira ubuzima ndetse n'amatungo yabo ndetse no mu myaka yabo y'izabukuru binyuze mu kigo cya saniramu ndetse n'icya ara esi esi bi bari bateguye ubu bukangurambaga.

Ubwisungane mu kwivuza ni imwe muri politiki yagizweho na Leta igamije kwimakaza imibereho myiza y'abaturage, aho buri muturage abasha kugerwaho na serivisi z'ubuvuzi bitamugoye. Umuturage yishyura umusanzu runaka mu mwaka hanyuma agabwa serivisi z'ubuvuzi igihe azikeneye, akishyura cumi na gatanu gusa ku ijana by'igicirombumbe yakabaye yishyura.

Ikarita ya mituwere dosante itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize mu kwivuza RSSB, aho ufite iyi ikarita ajya kwa muganga, agahabwa serivisi z'ubuzima akeneye, akishyura cumi na gatanu gusa ku ijana by'agaciro mbumbe k'ayo yakabaye yishyura adafite ubu bwisungane.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho umuntu ajya guhaha ati yadusabye ko ajya kubaza igiciro cya buri kintu ahubwo agasanga ibiciro byanditse ku bicuruzwa bityo agahita abibyikenera hanyuma akabishyira mu kagare akabisunika akabijyanaho bishyurira bakamu kuri buri gicuruzwa akishyura agakoresha uburyo butandukanye harimo n'ubw'ikoranabuhanga.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho ibicuruzwa biba bitondetse ku murongo hagendewe ku bwoko bwabyo ibikoresho ukwabyo, ibiribwa i,myambaro bityo bikorohereza abaguzi kumenya aho bashakira ibyo bakeneye ikindi kandi buri gicuruzwa kiba kiriho igiciro cyacyo ku buryo cyorohera kukigura kumenya amafaranga agomba gukoresha yishyura ibicuruzwa yahayeshye.

Supermarket ni hamwe mu hakorerwa ubucuruzi buteye imbere aho ibicuruzwa biba bitodetse ku murongo ndetse biriho n'igiciro cyabyo. Ibi bikorohereza umukiriya ubishaka kuba yabibona bitamugoye kandi akabibonera hafi, ibingibi bikoroshya kandi n'uburyo bw'imyishyurire aho yishyura yifashishije ikoranabuhanga cyangwa agakoresha amafaranga afatika mu ntoki.

Rimwe mu maguriro agezweho, aho ibicuruzwa biba bitondetse ku murongo hagendewe ku bwoko bwabyo, aho usanga ibiribwa bitondetse ukwabyo, ibikoresho byo mu nzu, imyambaro n'ibindi, bityo bikorohereza umukiriya kumenya aho ashakira ibyo akeneye kandi bikoroshya imitangire ya serivisi

Iguriro rya kijyambere aho umuntu ashobora guhahira ibintu nkenerwa mu buzima bwa buri munsi, haba ibikoresho, ibiribwa, imyambaro n'ibindi bitandukanye ndetse akabasha kwishyura akoresheje ikarita y'ikigo cy'imari akorana na cyo cyangwa ubundi buryo bwose bw'imyishyurire.

Rimwe mu maguriro agezweho aho ibicuruzwa biba bitondetse ku murongo ndetse biriho n'igiciro cyabyo, hanyuma umukiriya akanyuramo ibyo ashimye abipakira mu kagare, yasoza guhaha akajya kubarisha ndetse agafashwa kwishyura haba ukoresheje ikoranabuhanga cyangwa se amafaranga afatika mu ntoki.

Iguriro rya kijyambere aho abantu bahahira ibyo bakeneyera mu buzima bwabo bwa buri munsi, haba ibiribwa, ibinyobwa, ibikoresho ndetse n'ibindi bitandukanye, bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho umuntu abasha kubona ibicuruzwa, agahaha ndetse bidasabye ko ajya kubaza ibiciro bya buri kimwe, aho ibiciro byanditswe kuri buri gicuruzwa; hanyuma akagenda ahitamo ibyo akeneye akajya kubarwa agaciro ka byose mbumbe asoje guhaha. Ndetse ashobora kwifashisha uburyo butandukanye, harimo ikoranabuhanga cyangwa kwishyura akoresheje amafaranga afatika mu ntoki.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho ibicuruzwa biba bitondetse ku murongo buri cyiciro cy'ibicuruzwa cy'urukwacyo aho ugura agenda ahita a abiyagura hanyuma akabitwara ku kagare ryasoza guhitamo byariragu akajya kubarisha akishyura yifashishije ikoranabuhanga ikarita ya banki cyangwa se amafaranga afatika mu ntoki.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho ibicuruzwa biba bitondetse ku murongo kandi biriho igiciro cyabyo. Ibi bikorohereza umuguzi kumenya aho ashakira ibyo akeneye kandi n'umubare w'amafaranga ari kwishyura ndetse akanoroherezwa kwishyura yaba ukoresheje ikoranabuhanga, ikarita ya banki cyangwa se ubundi buryo bwose bushoboka.

Rimwe mu maguriro agezweho ya kijyambere, aho ibicuruzwa bi bitondetse ku murongo ndetse biriho n'igiciro cyabyo. Ibi bikorohereza umuguzi kuba yabasha kubona ibicuruzwa bimworoheye kandi akamenya n'ibiciro byabyo atiriwe abaza ndetse iyo amaze guhaha abitwara mu kagare akajya kubarisha, yarangiza akifashwa kwishyura akoresha uburyo butandukanye, haba ikoranabuhanga cyangwa se kwishyura mu ntoki.

Amasoko manini agezweho ya kijyambere aho usanga ibicuruzwa bitandukanye yaba ibikoresho, ibiribwa ndetse n'ibindi. Ibi byose bikaba bitondetse ku murongo neza kandi handitseho igiciro cyabyo ku buryo ushaka kubigura atirirwa abaza ahubwo igiciro kiba cyanditseho agahitamo ibyo ashaka hanyuma akaza kwishyurira icyarimwe amaze guhitamo ibyo ari buhahe.

Imwe muri serivisi zizamura ubukungu bw'abazitanga ndetse n'ubw'igihugu muri rusange ni ubucuruzi. Supermarket ni hamwe muhakorerwa ubucuruzi buteye imbere aho ibicuruzwa biba bitondetse ku murongo hanyuma umukiriya akaza ahitamo buri gicuruzwa hanyuma akajya kubarisha agaciro k'ibicuruzwa byose yafashe hanyuma akishyura yifashishije ikoranabuhanga cyangwa se amafaranga afatika ku bayafite mu ntoki.